Udukinisho dutandukanye dukunda kwitwa ibipupe ndetse n'indi mikino igiye itandukanye yifashishwa n'abana bakiri bato biga mu mashuri y'ibiburamwaka.

Ikibuga kirimo ibyatsi byumye, kirimo abantu, harimo umunyeshuri wambaye ijipo y'umukara uhetse igikapu ndetse yambaye ishati y'umweru, hirya gato hari inzu ira mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse gishushanyijweho igishushanyo cy'umugabo wambaye karuvati, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye umukandara uri mu ibara ry'ubururu, hirya gato hari igishushanyo cy'imbwa ndetse n'idirishya riri mu ibara ry'umukara.

Udukinisho twinshi dutandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abarimu bigisha abana bakiri bato bo mu kiburamwaka, harimo iby'amabara menshi.

Ishuri ry'inshuke rishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, risakajwe amabati y'umutuku, imbere yaryo hari aho abana bato bakinira.

Igitabo k'ikinyarwanda, gishushanyijeho abana bane, munsi yabo hari interuro ivuga ngo umwana urigu usobanurire bagenzi be inkuru yashushanyije.

Indabo nziza urabona ko ari mu kigo cyamashuri y'inshuke hari bana barimo barakina hirya yabo hari ishuri ryabo.

Icyumba k'ishuri kigirwamo n'abana b'incuke, gisizwe irangi ry'umuhondo, ndetse gifite idirishya ririmo ibirahuri, ndetse na Giriyaje ziri mu ibara ry'umukara. Hasi yazo, hari ibishushanyo bitandukanye harimo ingorofani, inyama, ndetse n'ibiryo biri ku isahani.

Ahari abana ndetse n'abantu bakuru hari ibikinisho byinshi bitandukanye, aho abana bisanzurira bakidagadurira harimo aho bakinira ndetse n'aho baba bicaye.

Imibare ni isomo ryifashishwa cyane mu mashuri abanza. Iri somo rigizwe n'ibizeru baryita seti harimo inyuguti.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere yacyo hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi by'icyatsi kirimo igikoresho cyifashishwa mu gutanga umunyenga kiri mu ibara ry'ubururu, hirya yacyo hari abantu benshi bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo.

Igishushanyo cy'abanyeshuri bari ku ishuri batonze umurongo harimo abarimu babiri umugore n'umugabo bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari abanyeshuri b'abahungu bambaye kaki, umwe muri bo akoze ku idarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gisizwe irangi ry'umuhondo kiriho urugi ruri mu ibara ry'icyatsi rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, mo indani harimo indabo zikase neza ndetse n'ibyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari ahiye.

Ibitabo bigenda birimo amashusho atandukanye, aya akaba ari imfashanyigisho ndetse n'inkuru zishushanyije. Ibi bifasha umunyeshuri gusoma akumva ibyo asoma ndetse bigakangura ubwonko.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'ubururu bwijimye cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda. Kwiga ni ingirakamaro kuko bituma tugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza kandi tukagira n'ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Ibiribwa biri mu mibare bigiye bitandukanye, udukombe, amagi ndetse n'ibindi, ibi byifashishwa mu kwigisha umwana wo mu wa mbere, kubara ndetse no gusoma.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba byubakishijwe buroke sima bifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'icyatsi cyicaweho n'abakobwa batatu bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'umweru ndetse bambaye karuvati ziri mu ibara ry'icyatsi.

Igiti kigizwe n'amashami maremare munsi yacyo hari igipangu kiza cyubakishijwe amatafari ahiye mo indani harimo imbuga ya pasiparume ndetse n'igikoresho kifashishwa mu gutanga umunyenga ku bana kigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umuhondo.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zitandukanye zikozwe mu mbaho ndetse kicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umweru ndetse na kake, harimo umunyeshuri w'umuhungu wambaye amarinete, imbere ye hari umunyeshuri ufite calikatirise yifashishwa mu guteranya.

Icyumba cyigirwamo gisize irange ry'umuhondo ndetse kirimo ikibaho kiri mu ibara ry'umukara cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, kirimo abanyeshuri bicaye imbere yabo hari ameza ariho za mudasobwa, imbere yabo hari umwarimu wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'abarimu iri mu ibara ry'umweru.

Inzu nini ifite amadirishya arimo ibirahuri binini, irimo abanyeshuri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kaki, harimo umunyeshuri wambaye agapfukamunwa, umupira w'umukara ndetse n'ijipo iririmo ibara ry'ubururu, imbere ye hicaye abanyeshuri batatu bambaye udupfukamunwa twiganjemo uturi mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kigirwamo kirimo umuri ndetse gisizwe irange ry'yumweru, cyicawemo n'abanyeshuri batandukanye higanjemo ab'abakobwa harimo umunyeshuri w'umuhungu wifashe ku kananwa, imbere ye hari umunyeshuri w'umukobwa wambaye amarinete ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo abanyeshuri batonze umurongo abenshi muri bo bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari umugabo wicaye, imbere ye hari imeza iriho igitambaro cy'icyatsi ndetse inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibuga cyubakishirijwe amapave kirimo imirongo myinshi y'umweru kandi giparitswemo imodoka ifite itara ry'umutuku. Inyuma yayo hari ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse inyuma yacyo hari ikigega kifashishwa mu kubika amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba kigirwamo, kirimo amatara atatu ari kumurika ndetse kirimo amadirishya arimo ibara ry'ubururu, cyubakishijwe amatafari ahiye kandi kirimo abantu batandukanye, higanjemo abambuye amajire ndetse n'ingofero z'akazi, kirimo umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira uri mu ibara ry'umweru.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano zitandukanye, harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'ambaye imipira y'umuhondo n'amashati y'imweru, biragaragara ko bavuye mu gikorwa runaka.

Icyumba cyigirwamo, cyubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Hari umusore munini ufasha akabase kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Cy'amashuri cya karangazi, cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere yacyo hari icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru cyanditsweho amahame y'intore ari mu ibara ry'ubururu, hirya gato hari ibishushanyo bitandukanye, ndetse hari idarapo ry'igihugu cy'uRwanda.

Icyumba kigirwamo gisizwe irangi ry'umuhondo kirimo umunyeshuri w'umuhungu wambaye ishati y'umweru, umupira w'icyatsi n'ipantaro ya kaki ndetse yicaye ku meza ikozwe mu mbaho kandi afite ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari umunyeshuri w'umuhungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kaki.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako zubabakishijwe amatafari ahiye ndetse n'inkingi zisize irangi ry'umuhondo ziriho abantu higanjemo abagore bambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi, harimo umugore ufite ibisuko wambaye ijire iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari umugabo wambaye ingofero n'ishati y'umweru ndetse afite igitabo mu ntoki ari gusoma.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano zitandukanye gusa icyo bahuriyeho ni karuvate, bambaye inkweto z'imikara ndetse n'amasogisi y'imyeru.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi bambaye amajire cyangwa se impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda munini w'umukara, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru, kubabakishijwe amapave, karimo itsinda rinini ry'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara ndetse n'amashati arimo ibara ry'umweru, hirya gato hari umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yabyo hari abanyeshuri b'abahungu babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Hirya yabo hari abanyeshuri b'abakobwa babiri bari guseka bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo arimo ibara rya kaki.

Inyubako nziza isizwe irangi ry'umweru ifite amadirishya manini afite ibirahuri byinshi mo indani hasize irangi ry'ubururu, iriho kandi icyapa kirimo ubuso bw'umuhondo cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abanyeshuri bambaye amabaje mu majosi yabo bamwe bambaye imyenda y'imipira y'icyatsi abandi bakambara imipira y'umweru.

Ibyumba bitandukanye birimo ibikoresho bitandukanye, aha ni ku miryango ndetse hari amarangi y'umuhondo, iyi miryango ikaba iri mu mabara y'imituku.

Icyumba cyo kwigiramo gikoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu, ariko iki cyo ni isomero byanditse ku muryango, ni urugi rwiza rukomeye rufunze aha hantu.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, irimo abantu bari kugenda, harimo umukobwa ufite ibiseko by'umukara wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ndetse afite igito mu ntoki, ku ruhande hari umusore wambaye inkweto zifunze ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza igeretse yubakishijwe inkingi zikomeye, iriho icyapa kirimo ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abanyeshuri batandukanye higanjemo ab'abakobwa, ndetse hari umunyeshuri w'umuhungu ufite igitabo mu ntoki kiri mu ibara ry'ubururu.

Kaminuza igenda igira ibyumba bitandukanye, harimo n'ibyumba bya ICT, aha byifashishwa mu ikoranabuhanga aho abanyeshuri bavumbura uko ikoranabuhanga rikora.

Icyumba cyigirwamo gifite amadirishya ndetse ariho amarido, kirimo abanyeshuri bafite amatelefone ndetse bicaye ku ntebe zimwe iba ry'icyatsi, imbere yabo hari umwarimu w'umugore ndetse na projegiteri, kandi inyuma ye hari intebe iri mu ibara ry'icyatsi.

Inzu nini igeretse isakajwe amabati n'ibara ry'umutuku ndetse isizwe irangi ry'umuhondo imbere yayo, hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi, kirimo indabo zikaswe neza, hagati yazo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave, imbere gato hari icyuma kiriho ikigega cy'amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, gisizwe irangi ry'umuhondo, ndetse kirimo abantu batandukanye, higanjemo abaganga. Kirimo umusore wambaye umupira w'umukara, uri gusuzuma indwara akoresheje icyuma cya Mikorosikopi.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, abakobwa bisukishije imisatsi, abasore bogoshwe bicaye imbere y'umwarimu barimo barahabwa amasomo ndetse banandika.

Icyumba gisigazwe irangi ry'umuhondo kirimo parafo iriri mu ibara ry'umweru kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abakobwa, imbere yabo hari umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari televiziyo nini cyane.

Icyumba kinini kirimo amakararo gisizwe irange ry'umuhondo, kirimo umusore uri gukoresha terefone wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ikoboyi ndetse imbere ye hicaye abakobwa babiri, umwe muri bo yambaye ishati ndetse yicaye mu ntebe iri mu ibara ry'ubururu.

Ibibumbano bigiye bitandukanye bibumbwa mu ibumba, ibi byifashishwa mu kubika indabo ndetse bikaba imitako. Aha abakiriya iyo babishatse baza kubigura.

Agakoresho kometse ku gikuta, kaba mu nyubako nyinshi zihuriramo abantu benshi. Ahandi hatangirwa ibitekerezo, niyo mpamvu bakita agasanduku k'ibitekerezo.

Icyumba kigirwamo kirimo intebe zitandukanye ziri mu ibara ry'icyatsi zicaweho n'abanyeshuri bari gukora ikizamini bambaye udupfukamunwa, babiri b'imbere harimo umwe wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru uri kwandika akoresheje ikaramu ifite igifuniko cy'ubururu.